Biragaragara ko ari abantu bita ku buvuzi, kuko imyambaro bambaye irabigaragaza. Urabona ko bisa nk'aho hari igihembo cyangwa se hari ubufasha bari guhereza umwe mu badamu. abaturage bisa nk'ahoho hari icyo bari kumufasha. Inyuma yaho hari amazu bigaragara ko ari ayo mu cyaro.

Ni kwa muganga mu cyumba kimwe urabonamo umuganga wambaye itaburiye y'umweru, yambaye ikanzu y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, urabona imbere ye hari intebe zimeze nk'aho baziryamisha abantu cyangwa se bari kubasuzuma.

Umuganga wambaye ibibu by'umweru, yambaye kasike bisa n'aho yipfutse ahantu hose ari mu modoka ya ambulance bigaragara ko iyo modoka ishobora ku irimo abantu barwaye icyorezo icyo aricyo cyose.

Abantu cyangwa umupolisi usa n'aho ari kwereka umuntu uko bakoresha kizimyamwoto, inyuma y'aho hari abantu bahagaze bari kubitegereza mbese bigaragara ko bishimiye uburyo uwo muntu ari kwiga gukoresha kizimyamwoto.

Ni icyumba kimwe cyo kwa muganga, ariko bisa nk'aho ari icyumba kidasanzwe cyane, kuko urabona ko icyo cyumba kirimo udutanda n'ibindi bikoresho byo kwa muganga, ariko bidasanzwe. Bigaragara ko ari ibyumba bizanwamo abarwayi barembye cyane.

Icyumba, icyo cyumba kirimo intebe, iyo ntebe imeze nk'aho ari igitanda, kuhande ndabona hariho utubati turimo ibyuma bimeze nk'iby'amashanyarazi, harimo itara riri kwakira ku ruhande, icyo gitara gifite, arimo igikuta cy'umuhondo.

Abantu bambaye utujire tw'umutuku dushushanyijeho umusaraba urimo umutuku n'umweru, bigaragara ko ari abantu bita ku buzima. Iruhande rwabo hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa na kaki n'inkweto z'umukara, biragaragara ko bari kuganira ku buzima.

Ni ahaparikwa imodoka, hakikijwe na jaride nziza, urabona abagabo babiri bahagaze aho ahantu, umwe ni umupolisi yambaye imyenda ya gipolisi n'ingofero, undi yambaye ipantaro ijya gusa umukara, ikoti ry'ikigina n'ishati y'ubururu, afashe agacupa kamazi mu ntoki.

Ni mu cyumba kwa muganga, urabona ko hari umugabo usa n'aho yakomeretse mu mutwe hanyuma baramwogosha kugira ngo babashe kumuvura, urabona ko bamwogosha uruhande rumwe rw'umutwe hanyuma bamushyiraho ibipfuko, bigaragara ko yari yaje kwa muganga kwivuza.

Ni mu cyumba kwa muganga urabona abadamu benshi bicaye ku buriri. Ubwo buriri bushashishijwe imyenda y'amabara y'umuhondo. Urabona ko harimo supanete cyangwa se inzitiramubu zikingira imibu, bakoresha iyo bwije kwa muganga.

Ni mu cyumba icyumba kirimo ameza ariho ibitambaro by'umweru hejuru, hejuru y'ayo meza hateretse amazi menshi ari mu ducupa, hariho abantu batanu bazengurutse ayo meza, hariho umwe wambaye ingofero n'abandi babiri bambaye udupira tw'umutuku abandi bafite ikaramu bari kwandika.

Ni ku bitaro imbere y'ibyo bitaro haparitse imodoka y'Ambulansi. Bigaragara ko iyo modoka igiye kuzana umurwayi cyangwa se itwaye umurwayi ku bindi bitaro. Biragaragara ko iyo modoka hicayemo umuntu urebye neza wambaye agapfukamunwa.

Abantu b'amoko atandukanye bicaye mu cyumba bisa naho ari kwa muganga, harimo umusaza wambaye ingofero, iruhande rwe hari agakecuru kaziye ku nkoni, ndabonamo umudamu uhetse umwana, hejuru yabo hari igishushanyo, hari umugabo n'umwana, umugore n'umwana begeranye. Bigaragara ko ari umuryango waje kwivuza.

Umusirikare umeze nk'ahariri umuganga yambaye imyenda iriho idaraporo, yambaye inyenyeri ebyiri asa naho ari kuvura umuntu wambaye akagofero gasa naho ari ak'ubururu, inyuma ye hari igikuta cy'umuhondo n'urugi rw'umutuku.

Abantu bameze nk'aho ari abarimu cyangwa se abaganga, bigaragara ko hari amahugurwa bari gutanga ku baturage, ndahabona umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, abagabo babiri bambaye amakanzu y'umweru.

Umugore n'umugabo imbere yabo hari ibipapuro byanditseho ibintu, umugabo arahagaze ari kureba aho umugore yicaye, biri kugaragara ko hari icyo umugore ari kumwereka cyanditse kuri kimwe mu gipapuro bafite.

Biragaragara ko ari mu cyumba cy'uruganiriro cyo kwa muganga kuko urebye neza urabona ko hari abantu basa nk'aho ari abita ku buzima bafite ibyo bari kuganiraho, imbere yabo hagiye hateretse amakayi n'amakaramu abenshi bari kwandika cyangwa se bafite icyo bari kuganiraraho byerekeranye n'ubuzima.

Umukecuru wicaye mu gatebe ka rwigamira imbere ye turahabona umuganga ufashe igitabo yambaye agapfukamunwa, yambaye n'umupira w'umweru n'ijipo y'umukara bigaragara ko ari guhereza inama z'ubuzima uwo mukecuru umwicaye imbere.

Abantu ba abantu bicaye ku dutebe dutoya ,abantu bisa naho hari icyo bategereje bari bari aho bari hari amadirishya y'umukara inzugi z'umuhondo ibikuta by'umuhondo n'umweru, iruhande rwabo hari umuntu uhagaze.

Aha ni mu cyumba kwa muganga turabona umudamu ndetse n'umugabo barahagaze bigaragara ko hagati muri bo harimo uri guhabwa igikombe cy'indashyikirwa, cyangwa se igihembo cyo kuba yari yitwaye neza.

Ndabona abadamu babiri n'abagabo bane bahagaze ku murongo, harimo abambaye amataburiye, amajire y'umuhondo arimo n'umweru n'umukara. Harimo abambaye ingofero bane abandi batatu ntazo bambaye, bigaragara ko bahagaze imbere y'ibitaro.

Ni kwa muganga urabona abantu benshi bicaye harimo abadamu, abagabo, abakobwa, urabona ko hariho n'u twana dutoya, urebye neza urabona hari idirishya ryanditseho ngo aho twakirira abatinganyi, biragaragara ko ari icyumba bakiramo abatinganyi.

Abaganga babiri bari kuganira bambaye ubupfukamunwa, bambaye n'ibikanzu by'icyatsi. Aho bari hazengurutswe n'ibitanda biriho ibitambaro by'icyatsi. Iruhande hari ibikuta biteye amakaro, bigaragara ko abaganga hari umuntu bari gusuzuma.

Ni mu cyumba kwa muganga, urabonamo udutebe, utwo dutebe dukikije igitanda, urebye neza urabonaho umugezi bakarabiraho, umugezi wa gisirimu, urebye neza biragaragara ko ari ahantu bazana abarwayi, iyo barembye kugira ngo babiteho.

Ni mu cyumba kwa muganga, turabona umuganga yambaye agapfukamunwa n'indi myenda yo kwa muganga, imbere ye turahabona umugabo wicaye, biragaragara ko uyu mugabo bari kumutera urushinge cyane cyane mu gice cyo hejuru, ahagana ku mutwe.

Abantu batandukanye harimo abadamu harimo abagabo, biragaragara ko harimo abaganga kuko harimo abambaye amataburiye yo kwa muganga bisa naho bari bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, cyangwa se bari kuganira ku byerekeranye n'uburyo umuntu yafata ubuzima bwe neza.

Abagabo babiri n'umudamu umwe bahagaze imbere y'imodoka ya Ambilanse, iyo Ambilanse ikaba ikinguye imiryango yombi, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara iruhande rwe hari indi modoka iri kugaragara ipine imwe.

Umudamu, inyuma ye hari igikuta kigiye gusa naho giteye umusenyi, aricaye ku gatanda, gasa n'ako kwa muganga, arishimye, biragaragara ko amaze kwibaruka, uwo umwana amufashe mu ntoki, kandi umudamu yiteze igitambaro.

Abaganga batatu bose bambaye agapfukamunwa, harimo uwambayebu y'icyatsi, iy'ubururu, ndetse n'undi wambaye ibijya gusa n'umukara, inyuma yabo hari igikuta cy'amakaro y'umweru, ndetse harimo n'ibyuma bigaragara ko ari iby'ikoranabuhanga.

Umuganga uri mu cyumba yambaye amaherenare iherena ry'ikiziga, afite umusatsi w'umukara, afite itaburiye y'umweru yambaye ga z'umuhondo, iruhande rwe hari amagambo y'icyongereza yanditseho ngo sitili gadi.

Ndi kubona umuganga, umuganga wambaye agapfukamunwa arasa naho afite ikintu cy'igishinge kirekire, imbere ye hari akadobo k'umuhondo, ahantu ari hari igikuta kiganjemo amabara ajya gusa n'umweru n'umuhondo kandi imbere ye hari ibindi bikoresho byinshi.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo imashini nyinshi zipima cyangwa zisuzuma abarwayi, murabona abaganga benshi bari kuzireba, biragaragara yuko bari kureba cyangwa se bari gupima uko abarwayi bahagaze, ngo barebe uko iminiri yabo iri gukora hanyuma babone uko babavura.

Ni mu cyumba mu isuzumira kwa muganga, urabona muganga afashe imiti mu ntoki, yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'itaburiya y'umweru, yambaye mu ntoki ga z'ubururu, imbere ye hateretse indobo y'umuhondo.

Umuganga ufashe urushinge mu ntoki bigaragara ko urwo rushinge hari aho agiye kurutera, imbere ye hari agati ku'umweru gasa n'umutuku gafite umufuniko w'umutuku bigaragara ko ari umuti, hirya imbere ye hari amagambo ashushanyije ku gikuta.

Ni mu cyumba kwa muganga urabona ni ahantu basuzumira. Urabona ko hari imashini isuzuma, umuganga wambaye agapfukamunwa n'itabuya y'umweru ari kurebamo. Bigaragara ko hari ibisubizo by'umurwayi ari kureba muri iyo mashini ngo abimugezeho.

Umuganga wambaye ga z'ubururu yambaye ikanzu y'umweru, ifite akaboko k'umweru, muganga bigaragara ko hari ibintu ari gupima; hari imiti ari gusuzuma, hirya hicaye undi muntu wambaye iby'ubururu.

Ndabona umuntu uri mu cyumba, icyo cyumba kirimo agakarito k'umuhondo, imbere hari ibintu bimeze nka sanitayiza, ku ruhande hari indobo y'umutuku iteretseho akantu k'umweru mu idirishya harimo umudamu uhetse umwana uri guhengeza.

Mu isuzumiro ry'imiti cyangwa se muri labora laboratwari , aho ubona ko umuganga afite igishinge kinini cyane bisa nk'aho hari umuti ari gutera mu gapompo , iruhande rwe hari utuntu tumeze nk'ijyaga tw'ibyuma tujyamo tubona ko wagira ngo turimo amazi, ariko uko bigaragara n'imiti igiye itandukanye, n'ubupompo butandukanye.

Umudamu ubyibushye yambaye ingofero y'ubururu agapira k'ubururu n'itaburiye y'umukara, ari kwita ku mwana wambaye ishati y'ubururu, uyu mwana uko bigaragara ni umunyeshuri, ndetse wiga mumashuri y'incuke.

Abana babiri abo bana umwe afashe igikombe cy'umweru, hirya hari undi ufashe igikombe n'ubundi bisa, uwo mwana ufashe igikombe cy'umweru biragaragara ko ari kunywa amata kuko ayo mata ari kumugaraga ku munwa. Uwo mwana biragaragara ko abayeho neza nta kibazo cy'imirire yahuye nacyo.

umuganga, umuganga w'umugabo wambaye agapira k'ubururu, imbere ye hicaye umudamu, biragaragara ko bari mu cyumba byagifashe cyangwa se icyumba cyita ku babyeyi n'abana cyangwa se, aho ababyeyi babyarira ndetse n'abana aho bavukira.

Abanyeshuri biga amashuri y'inshuke, bigaragara ko bari kunywa igikoma, barimo abambaye, bambaye hasi ubururu hejuru umutuku, harimo n'abambaye ubururu hejuru, bose bari kunywera mu dukombe tw'umweru.

Icyumba, giteye amarangi harimo ay'umweru n'irindi rijya gusa n'ubururu, harimo abantu batandukanye, harimo abagabo abagore abenshi bambaye amataburiya y'umweru bambaye n'udupfukamunwa.

Icyumba kirimo abaganga abaganga b'abadamu harimo n'uw'umugabo kirimo abantu bisa naho icyo cyumba ari icyumba bita ku buzima bw'abadamu, ndetse n'ubuzima bw'abana, urebye neza urabona ko abadamu aribo biganje muri iki cyumba.

Abantu benshi harimo wbambaye igisengeri cy'umuhondo, abandidi benshi biganje bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu bigaragara ko bitabiriye inama barumiwe cyane cyangwa se bigaragara ko ibintu bari kubabwiraho babiteze amatwi cyane.

Aha ni icyumba cyo kwa muganga, ubona kirimo abaganga babiri n'abandi badamu batatu, biragaragara ko aha ngaha, ni icyumba ababyeyi babyariramo cyangwa se ni icyuyumba bita ku bana cyangwa se bahera abana ubuvuzi.

Isafuriya iteretse hasi mu mabuye irimo ibirungo bitandukanye, ku ruhande rwayo hari igitenge kiri kugaragara kirimo icyatsi, ku rundi ruhande rw'ibumoso hari ikindi kiri kugaragara cyiganjemo ubururu n'umukara.

Ndikubona umumama usa n'urakaye afashe ikintu kimeze nka terefone cy'ubururu ariko gifite amatushi y'umukara, iruhande rwe hari undi muntu uri kugaragara igice kimwe wambaye ikoti ry'umukara, hirya yabo ndi kohabona ibiti.

Urabona abagabo bishimye kandi bizihiwe, aha turahabona umugabo wambaye agapira k'icyatsi bisa naho ari kubagira inama, ko bigaragara bashobora kuganira ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, niko bigaragara neza.

Abasore babiri n'abakobwa babiri bicaranye bari kuganira imbere yabo hateretse ibitabo bimeze nka bibiliya bafashe utudarapo tw'amabara y'umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo ak'icyatsi inyuma kariho inyuguti ya a.

Inyubako nziza, iyo nyubako imbere ku muryango hejuru, hari icyapa cyanditseho ngo sabani faromasi, biragaragara ko ari ahantu bacururiza imiti ndetse nyiri iyo farumasi akaba yitwa Savanse.

Umugabo yambaye ishati y'igitenge y'umukara na oranje, urabona ko agasa n'aho ahagaze ahantu hari imiti, bigaragara ko ari ahantu ho muri farumasi, bacururiza imiti y'abarwayi.

Iduka ripakiyemo ibikarito bigiye bitandukanye, muri iryo duka hahagazemo umudamu wambaye ikanzu y'umweru, yambaye isaha nziza ijya gusa n'umuhondo, yambaye amaherena, yambaye n'umubano mu mutwe mu musatsi.

Urebye neza urabona ko ari muri forumasi, ahantu hacururizwa imiti. Iyo miti rero igiye itondekanye. Udukarito tugiye dupanze ahatwo ndetse uducupa natwo tugiye dupanze ahatwo. Biragaragara ko aha ari ahantu bacuruza imiti.

Ni igishushanyo gishushanyijeho inka, ihene, intama, n'andi matungo yororwa. Biragaragara ko icyo gishushanyo cyanditseho ijana mra bisobanuye ko igishushanyo kirimo cyangwa se ni imiti yongera vitamin ku matungo.

Ahantu hameze nk'ahapakiye imiti y'amoko yose, imiti imwe iri mu dukarito, indi iri mu ducupa dutandukanye, hari umwe, hari utw'amabara y'umweru, hari amabara y'umuhondo, amabara y'ubururu, amabara y'umutuku n'andi mabara atandukanye.

Biragaragara ko ari inama irimo abadamu babiri n'abagabo bane bose buri wese iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi, biragaragara ko ari abantu bari mu nama bafite icyo bari kuganiraho cyane.

Abantu, abantu benshi, abenshi biganjemo bambaye umuhondo harimo n'uwambaye umukara bambaye utugofero tujya gusa ubururu, bafite icyapa cyanditseho turwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko bigaragara ko bari kwamagana ibiyobyabwenge.

Urubyiruko bigaragara ko hari icyo bari kwigishwaho, urabona hari igishushanyo cy'ubururu cyanditse ama ibara y'umuhondo yanditseho ngo wodi awelinesi weki bibiri na makumyabiri na kane, bigaragara ko ari igikorwa kiri gukorwa muri iki cyumweru, ariko wari umwaka bibiri na makumyabiri na kane.

Abadamu babiri harimo umudamu wegeranye n'umwana, uwo mwana afite Telefone buri mudamu afite igitabo. Harimo uwambaye ikanzu y'umutuku yambaye inyuma agapira k'umukara. Iruhande hari igikuta cy'umuhondo.

Umuganga, umuganga wambaye akantu kajya gusa n'umweru, yambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umweru, uwo muganga afite akantu k'umutuku k'amabara y'umutuku n'umuhondo, imbere hateretse imiti iri mu mabara y'umukara n'umweru.

Umuntu bisa naho ari kuvuguta imiti, biragaragara ko iyi miti ari imiti ya kinyarwanda, urabona ko irimo utuntu tubumbye neza, bigaragara ko iyi miti ni ya miti bakoresha itabanje kunyura mu byuma cyangwa se mu nganda.

Indabo z'amoko atandukanye harimo iz'icyatsi harimo iz'umweru n'umuhondo harimo iz'umuhondo ubururu n'umukara, izo ndabo biragaragara ko ziri mu tuntu mu tubumbano twiza twa Kinyarwanda tumeze neza.

Umuntu urwaye ibiheri byinshi cyane byamurembeje, biragaragara ko uyu muntu agiye kwifurisha ubuvuzi gakondo, cyangwa se kwivura akoresheje ibidukikije, cyangwa se kwivura akoresheje ibyaremwe uko bigaragara, kuko ibiri ni byinshi cyane.

Urabona amababi y'ibiti byitwa umuravumba ndetse n'andi mababi, aya mababi bayashyize mu dukombe, bigaragara ko umuntu ashaka gukoresha imiti gakondo, urababona ko bashyize mu dukombe agahita ahindura ibara, bigaragara ko ni miti gakondo bagiye gukora.

Urabona umugabo wambaye ishati y'umweru, afashe igicupa kirekire cyane kirimo umuti usa naho umaze kuvugutwa, gipfundikishije mufuniko w'ubururu. Biragaragara ko aha ngaha ari ahantu bakorera imiti itaranyuzwe mu byuma cyangwa se bakunze kwita iya kinyarwanda.

Igicupa kinini, icyo gicupa kiriho amababi y'umuravumba bigaragara ko gifunitse neza cyane uko biri kose Igicupa kirimo umuti ariko handitseho ngo umuravumba bisobanuye ko harimo umuti ufite aho uhuriye cyangwa se bakoze mu muravumba.

Umukecuru wicaye iruhande mu ntebe, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiye y'umweru n'agapira k'umweru, imbere hari igitabo afashe ikaramu ari kwandika mu bigaragara ari kwandikira uyu mubyeyi umukecuru imiti cyangwa se akaba ari kumuha ibisubizo by'uburwayi bwe.

Inzu iteye irangi ry'ubururu inyuma ubona mu nda iteye irangi ry'umweru, uyirebeye neza imbere urabonaho urukarabiro rusa n'umweru, hejuru kuri iyo nzu munsi ya parafo ihari urabona ko handitseho ngo gira ubuzima, bigaragara ko iyi nzu ari ahantu bita ku buzima bw'abantu.

Udukarito tugerekeranyije, utwo dukarito inyuma turiho ishusho y'intama, ingurube, inka ihene, utu dukarito uko bigaragara turimo imiti y'amatungo iruhande rwatwo hari uducupa tw'umukara turiho ibyapa by'umweru.

Turahabona inyubako nziza iteye amarangi y'ubururu n'umweru, iyo nzu yanditseho ngo gira ubuzima, biragaragara ko ari ahantu cyangwa se ari inyubako bakurikirana ibijyanye n'ubuzima bw'abantu.

Ababyeyi bategerereje kwa muganga bisa naho bategereje ibisubizo byo kwa muganga, inyuma yaho ndabona hariho umugabo uhagaze bisa naho ariwe umuganga, hirya ndabona undi mugabo wicaye ufite ibipapuro bigaragara ko hari icyapa cyanditseho ngo isuzuma rya muganga.

Icyumba bisa n'aho ari icyumba kibitswemo imiti y'inyamaswa kuko urabona ko ku miti hashushanyijeho inyamaswa, biganje mu mabara y'umuhondo, amabara y'umuhondo n'umutuku ndetse n'ubururu ndetse icyo cyumba kuruhande giteye amarangi y'umweru.